Abantu ba kera ntabwo bajyaga bapfa kujya kwa muganga, kuko bakoreshaga imiti ya gakondo, aho bayifataga bakayisekura hanyuma bagakuramo imiti isimbura ibinini tububona ubu ngubu, abagenda banywa ibinini ahubwo ko bo bakoreshaga iyi miti gakondo ndetse bikanabakiza.